Ifoto yerekana abantu hatangiye abantu benshi, harimo ababyeyi, abagabo, abasaza n'abakecuru baje kwitabira inama y'umudugudu kugira ngo babashe gushyira mu bikorwa ibyo basabwa.

Umutaka, itaka, inzu, amatara, insinga, abantu, abana, n'ibindi.

Abagabo bane babiri barimo gukora ku bijyanye n'amashanyarazi, abandi bari mu mazi bakora ahantu ho gushyirara amazi, abandi barimo gukora amashanyarazi bambaye ibikoresho by'akazi.

Ifoto yerekana ipoto itanga umuriro w'amashanyarazi ku baturage batandukanye hashamikiyeho insinga nyinshi zivana umuriro mu gace kamwe ziwujyana ahandi ku buryo abaturage bashobora gucana bose.

Ifoto yerekana ipironi y'amashanyarazi ivana umuriro mu gace kamwe ibajyana ahandi, ishamikiyeho insinga nyinshi cyane kuko itanga umuriro ku baturage bo muri Nyagatare kuko nta kibazo.

Amapironi, abagabo bari ku nsinga ubona ko ari ahantu mu gace hashyizwemo amashanyarazi, ahantu heza cyane hari ibiti, hari amazu.

Ibuye, umugezi, ibyuma, urutindo, abantu, umusozi, ibiti

Ifoto yerekana abantu benshi batandukanye, baragenda ahantu heza cyane mu muhanda ahantu hari ibiti, ndetse ni ahantu hari ibikorwa remezo byiza kandi bikeye.

Umuhanda, icyapa, ibiti, inzu, ikirere n'icyapa. borodire.

Ifoto yerekana ahantu abaturage baje kureba serivisi ku kigo nderabuzima, aho abantu bose baje guhabwa serivisi zijyanye n'ubuzima ndetse babashe no ku kwitabwaho n'abaganga.

Ifoto igaragaza icyapa Akarere ka Nyagatare, Umurenge wa Gatunda, Akagari ka Nyamirembe mu Mudugudu wa Kajevuba, ubona ko ari icyapa kerekana Umudugudu wa Kajevuba.

Ifoto yerekana abantu benshi baje gushaka serivisi zirwanya iyubahirizwa ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera ku buryo bagomba kwitwara ko batagongwa n'amategeko.

Ifoto yerekana abantu bateraniye ahantu benshi harimo: abana, ababyeyi, abashinzwe umutekano wabo, harimo Polisi n'abasirikare, ubona ko baje kuvuga ku bijyanye n'umutekano ndetse n'uburenganzira bw'abana.

Abana, abagabo, abagore, abashinzwe umutekano, buje, urumuri, itaka, inkweto, urumuri rw'ikizere.

Ifoto yerekana umuntu uhagaze hagati y'abaturage, ari kubaha inama bigaragara ko ashobora kuba ari Umudugudu, gitifu urimo gutanga inama ku baturage kugira ngo babashe kuzamura Umudugudu wabo ndetse n'Igihugu.

Mikoro, isaha impeta ishati y'umutuku, igitiyo bote umwenda w'umutuku.

Ifoto yerekana abantu baje gutega imodoka, aho baje kureba serivisi zo gutwarwa mu modoka kugira ngo bave mu gace kamwe bajya mu kandi bakoresheje amatike ndetse n'imodoka.

Ifoto yerekana ahantu heza cyane aho abantu baza gushaka amatike yo gutega imodoka bava mu gace kamwe bajya mu kandi aho barimo gushaka serivisi zijyanye no gutwara abantu mu modoka.

Umuhanda, icyapa, ni inzu, amadirishya, urugi, umugenzi, amatara yo ku muhanda, ibyatsi.

Ubwatsi, ikarito, avilope, inka, abantu, barimo barareba inka, inzu, ibiti, ikibuga.

Ikibuga abana batatu barimo gukina umu bakina umupira inkweto imyenda ibyatsi biyogoshesheje umugongo.

Ifoto yerekana abakinnyi bari mu kibuga, barimo barakina umupira, harimo abasifuzi, abo ku ruhande, abo mu kibuga hagati ndetse na ishusho nziza ya sitade.

Ikibuga cy'umupira ubona ko giciriritse, harimo abakinnyi babiri ndetse n'abafana bari hakurya. Ibyatsi na godeo z'umukara.

Ikibuga cy'Umupira, abakinnyi batatu bafite umupira Bambaye godiyo, wamba jezi z'umuhondo na nimero z'umweru.

Ifoto yerekana umuhanda wa kijyambere ugezweho, urimo urakorwa kugirango imodoka zijye zicamo neza ntabitaka, ntamikuku, kuburyo ushobora gucishamo imodoka, ndetse ari igikorwa remezo abaturage bishimiye.

Ifoto yerekana umuhanda w'icyaro, harimo umumama uhetse umwana, ubona ko ari ahantu mu muhanda w'igitaka nta kaburimbo irimo, hejyaranye n'ibyatsi ubona ko ari ahantu mu cyaro.